Inzu isize irangi ry'umweru, ifite amadirishya n'urugi rufunguye, imbere yayo hahagaze abantu n'undi wicaye, hari ubusitani bw'indabo ndetse n'ibiti by'amoko menshi ahakikije.